Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bari koza amenyo bakoresheje uburoso na korogate, kandi bose bambaye udusengeri tw'umweru bigaragara ko ari mu gitondo bose bishimye banezerewe.

Abagabo babiri bambaye imipira y' imyeru ndetse n'amapantaro y'imikara bari gukora siporo ngororamubiri zo kwirukanka, umwe ari kunywa amazi bigaragara ko bari kwirukankira mu busitani.

Abakozi babiri bari mu ruganda bambaye amataburiya n'udupfukamunwa, udutambaro two mutwe, bari gukoresha imashini kandi muganda harimo n'abandi bashyitsi bari kwitegereza imikorere y'uruganda.

Umugabo waru uri mu myitozo ngororamubiri asuzuma ko ivi rye nta kibazo ryagize, akoresheje amaboko yombi, bigaragara ko yari agize uburibwe.

Ababyeyi baje kuvuza umwana uburwayi bwo mu kanwa, umuganga arimo asuzuma mu kanwa h'umwana akikiwe n'umubyeyi we, ndetse ari kumwe n'abandi bamuherekeje babiri, bambaye udupfukamunwa.

Umuti ukiza kandi uvura ububabare, ugurishwa kandi ukakugezwaho utishyuye ikindi giciro, ushobora kuboneka mu macupa atandukanye bitewe n'uko ubyifuza.

Uburyo icumi bushobora kugufasha nyuma y'uko ugize gukomereka k'ubwonko, hari uburyo butanu wakoramo imyitozo wicaye n'uburyo butanu ushobora gukoramo imyitozo uhagaze.